Abagabo ndetse n'abagore bari mu nama bigaragara ko bari kuvuga ku kintu runaka; imbere yabo hateretse amacupa y'amazi ndetse bigaragara ko bari kureba ku nsakazamashusho nini y'umukara; inyuma yaho hari umuryango usize ibara ry'icunga ndetse n'amakaro ku bikuta; abo bagabo bigaragaza ko bari kwibaza

Inzu mberabyombi iri kuberamo inama bigaragara ko ari iyo kwita izina ku nshuro ya makumyabiri imbere hicaye umugabo w'umuzungu ari kumwe n'abandi bagabo babiri ndetse n'umugore umwe hari abantu babakurikiye ndetse n'ibikoresho bifata amashusho inyuma iyi nzu ikaba ifite amarido y'icyatsi inyuma ndetse n'amatara hejuru abona cyane.

Inzu iberamo inama iri mu mabara y'umuhondo ndetse ifite indangururamajwi ku ruhande z'umukara ikaba irimo abantu bakomeye ndetse benshi bigaragara ko bari kuvuga ku kintu runaka bikaba bigaragara ko ikoranyijwemo n'abakuru b'amadini hakaba harimo umugabo w'umusilamu wambaye ingofero y'abasilamu ndetse n'umugore uri imbere wambaye ikanzu y'umutuku .

Abagabo bari mu muhanda bari mu gikorwa kimeze nko gufata amashusho ku kintu runaka, umugabo umwe afite igikoresho cyifashishwa mu gufata amashusho kizwi nka kamera ndetse undi afite telefoni mu ntoki ze ndetse n'umugozi wo gucomeka telefoni. Abandi bagabo babiri bigaragara ko bari kureba muri telefoni y'umuntu.

Imbangukiragutabara ziri mu mabara y'umweru umutuku, ubururu ndetse n'umukara ziriho purake ya guverinoma y'u Rwanda, ziparitse ahantu runaka bigaragara ko ziteguye kwakira igihe icyo aricyo cyose igihe bazisabye gukora akazi zisabwa. Izi mbangukiragutabara akenshi zifashishwa mu gutabara abantu ndetse n'undi muntu wagize.

Inyubako zifite ibisenge bitukura, zigaragara nk'aho ari mu kigo kinini cyangwa ahantu h'imyigire, hari umuhanda w'itaka cyangwa wa kaburimbo w'umukara, unyura hagati y'izo nyubako, ukagira igipangu cy'amabuye giciyemo urukuta rutandukanye, ibice by'ubusitani n'umuhanda nyirizina. Hari ibiti bitandukanye bikikije iyi nyubako, bimwe bifite amashami agoramye kandi bikura neza. Ubusitani bwateguwe neza, bukaba bufite ibyatsi bibisi bimeze neza hamwe n'ibihingwa by'imyugariro bigizwe n'ibimera bifite

Umupolisi w'umunyarwanda wambaye ingofero y'umukara ndetse n'ijiri y'akazi yanditseho ijambo polisi mu mugongo we afite akamashini kagenzura ibyangombwa by'utwaye ikinyabiziga akaba ari gusuzuma ubuziranenge bw'ibyangombwa bamuhaye imbere ye hakaba hari imodoka iriw' ibara ry'umukara bigaragara ko ariyo bari gukorera igenzura.

Amakuru ari kunyura kuri televiziyo y'igihugu nkuru y'u Rwanda ivuga ku matora yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane, ikaba irimo umukandida Mpayimana akaba yaragiranye ikiganiro n'itangazamakuru, umugabo uri mu ikote ry'ubururu ndetse n'ishati'mweru na karavati y'umutuku imbereye hateretse mudasobwa.

Umuhanda muremure w'umukara, ukaba urimo imodoka ebyiri z'ibikamyo, ziheka ibicuruzwa biva hanze, iruhande hakaba hari inzira y'abanyamaguru ndetse n'umuyoboro w'amazi, uriho ikiraro abantu bambukiraho. Iruhande rw'igikamyo hari abagabo babiri, umwe wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'ikoboyi, bari ahagana ahegereye ibyatsi by'icyatsi. .

Ikamyo nini itwara imizigo myinshi iri mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi ikaba iri mu muhanda mugari ndetse muremure iruhande hari inzira y'abanyamaguru ndetse n'inzira itwara n'umuyoboro utwara amazi. Ku ruhande hakaba hari imodoka y'umukara ifite ibirahure bitabonerana, ndetse n'ikibuga ku ruhande kinini.

Ifoto yafashwe na telefoni izwi ku bwoko bwa samusanga ifatwa harimo imodoka y'umutuku ndetse n'indi yumweru biri mu muhanda mugari w'igitaka ku ruhande hakaba hari ibiti birebire ndetse n'amapoto y'amashanyarazi hakaba harimo igicucu cy'uwafashe iyo foto bigaragara ko atashakaga kujyamo ndetse n'abatwazi babiri batwaye imodoka .

Imodoka y'ikamyo ifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu bwijimye, ikaba ifite amapine y'umweru, iruhande rwayo hari umumotari uhetse umugenzi, umumotari akaba yambaye ijire y'umuhondo, irimo amabara y'ubururu ndetse n'ingofero y'umuhondo. Atwaye ikinyabiziga gisa umutuku, iruhande rwabo hari ibiti bitanga amahumbezi k'umuhanda w'umukara

Umuhanda wa kaburimbo uri ahantu hateguwe neza hari imodoka ntoya y'mweru ifite igice cyo hejuru gifunguye aho umuntu uri imbere urambitse akaboko hanze y'dirishya, imodoka iri ku ruhande rw'umuhanda hafi y'inzira y'abanyamaguru igizwe n'amatara yo ku muhanda n'ibiti bitanga igicucu, mu muhanda hari izindi modoka ebyiri imbere zerekana ko aha hantu hakorerwa ubwikorezi busanzwe, ku ruhande hari ubusitani butoshye burimo ibimera bifite amabara y'icyatsi n'umuhondo, bikagaragaza ko ahantu hafite isuku n'uburanga.

Umuhanda munini ufite amatara ku nzira n'ibirindiro ku nkengero, hagaragaramo igiti kinini gitanga igicucu kuzira nyabagendwa, ndetse n'urukuta rurerure ruri inyuma yacyo. muri ino foto hari moto itwaye abantu babiri umwe wambaye ingofero itukura n'undi wambaye iy'umuhondo. Ikinyabiziga kigenda ku muhanda ufite inzira ebyiri kandi irenze umuhanda urukuta rwera rufite ibirango byanditseho ijambo.

Imodoka ntoya ifite igikonoshwa cy'ubururu, gikingira ibicuruzwa cyangwa imizigo itwarwa muri ino modoka kuko mu mugongo w'iyo modoka handitsemo amagambo agaragaza ko yakorewe mu Rwanda, bigashimangira gahunda y'igihugu yo guteza imbere ibikorewe mu gihugu imbere, mu muhanda urimo ino modoka, harimo ivumbi ku ruhande rw'ifoto ndetse hakaba harimo abagenzi ndetse n'imo

Imodoka ntoya itwara imizigo iri mu ibara ry'umweru itwawe n'umugabo ikaba irimo n'abandi bagabo inyuma iruhande rwayo hari ikamyo nini ihetse amakaziye y'ibinyobwa bikaba biri mu muhanda muremure w'umukara iruhande rwabyo rw'iburyo hari igishararaga cy'icyatsi ndetse n'ibimera n'ibiti birebire bitanga amahumbezi ku muhanda.

Umuhanda mugari urimo uragendamo ibinyabiziga moto ifite ibara ry'umutuku itwawe n'umugabo wambaye akagofero k'umuhondo inyuma hakaba imodoka y'umweru n'icyatsi.

Icyumba kiri mu ibara ry'umutuku hagati harimo ibara ry'umukara rigaragaza umuhanda ushamikiyeho undi muhanda mu kuboko k'ibumoso, hagati hakaba harimo ibara ry'umweru riri muri mpande eshatu ndetse kikaba gifite igifashe cy'icyuma. Iyi foto kandi igaragaza hifashishwa n'abiga amategeko y'umuhanda mu gihe bashaka gutsinda ibizamini bitangwa na Leta y’ u Rwanda.

Ifoto igaragaza ikiraro munsi hakaba hari kunyuramo imodoka y'umukara ndetse n'iy'umweru ndetse n'ibinyabiziga bihetse abagenzi ku muhanda wo hejuru hanyuramo imodoka zijya ku muhima ndetse n'ibindi binyabiziga ariko bitikorera hasi hakanyuramo ibinyabiziga byikorera bijya ahantu hazwi nka nyabugogo kuru ruhande rw'umuhanda hari ibiti bifite amahumbezi by'umuhondo ndetse...

Umuhanda mugari ndetse muremure w'umukara uri kunyurwamo n'imodoka zikoreye imizigo myinshi ndetse n'amamoto ku ruhande ahetse abagenzi, bigaragara ko ziri mu ziri kunyura mu byerekezo bitandukanye, ku ruhande hari ibiti bitanga amahumbezi ku mihanda, ndetse umuhanda bigaragara ko ushaje. Ahantu hakaba hakenewe kuvugururwa.

Isangano ry'imihanda riri kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye, hakaba hari abantu bari kwambukira ahabugenewe ndetse n'ikiraro kinyuraho imodoka zo hejuru ndetse n'izo munsi. Iruhande rw'icyo kiraro hari imodoka zisanzwe ndetse n'amamoto. Iruhande rw'ikiraro kandi hari isoko ricuruza ibintu bitandukanye.

Ibinyabiziga bibiri bihetse abagenzi batwaye imizigo abamotari bambaye ijile y'umuhondo ubururu ndetse n'ingofero z'umutuku ibinyabiziga bikaba biri mu muhanda muremure w'umukara, iruhande hari ibiti bitanga amahumbezi ndetse n'amatara ku muhanda bikaba biri mu isangano ry'imihanda, ndetse n'ikirere cy'umweru ni byiza kugira isuku mu mujyi.